Ni ahantu hari ivomero rusange, rikozwe mu cyuma, kaba hari umwana uriri imbere urimo aravoma, wambaye imyenda y'umweru igiye irimo utudomo tw'umukara, ndetse imbere ye, hakaba hari n'izindi ndobo.

Ni ahantu hari ihema, hari abantu bagiye batandukanye, benshi muri bo bagiye bambaye amasarubeti afite ibara ry'ubururu bw'ikirere, ikaba ari inama bajemo cyangwa amahugurwa runaka.

Umusore wambaye umupira ujya gusa nk'umukara ariko werurutse akaba apfukamishije ivi rimwe irindi vi akaba arifatishije amaboko, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri runaka.